Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru cy'ikigo gitanga ubwishingizi, kuri icyo cyapa hakaba hariho umugore, amazina ye ndetse na nimero ze za telefoni.

Winjije Faburice Hakuzimana ufite nimero zeru karindwi umunani mirongo itandatu na gatanu, makumya na gatandatu, mirongo inani n'umunani, gatatu amafaranga igihumbi ikiguzi cy'amafaranga makumyabiri, kwemeza injiza umubare w'ibanga.

Iduka rigurisha imyenda harimo imipira iciye amaboko y'abantu bakuru ndetse n'amakabutura y'abantu bakuru harimo n'udupira tw'amaboko maremare ndetse n'utw'amaboko magufi n'udupantaro by'abana.

Iduka rigurisha imyenda itandukanye, tukaba turi mu gice kirimo imyenda y'abagabo, izwi ku izina rya kositime, zikaba zimanitse, kandi ziri mu mabara atandukanye.

Iduka rigurisha ibintu bitandukanye bya gakondo hano mu Rwanda, harimo imitako yo mu nzu ikoze mu buryo bwa kinyarwanda, harimo uduseke ndetse n'ibintu bikoze mu bitenge.

Imodoka y'umukara iri mu bwoko bwa benzi, imbere ku mwanya wagenewe purake y'imbere hakaba nta kintu kiriho, iruhande rwayo hahagaze imodoka izwiho gutwara abarwayi ibavana ku bigo nderabuzima ibajyana ku bitaro izwi ku izina rya ambiranse, ikaba ari imodoka ya sehashika, ibitaro bikomeye hano mu Rwanda.

Icyapa cy'ikigo gikora kikagurisha amamodoka, kimanitse, kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, kikaba kiri kugaragaza ibyo icyo kigo gikora, aho kibarizwa, ndetse na numero zabo za telefoni.

Imodoka y'umukara ya Hybrid yo mu bwoko bwa Toyota, ku mwanya wa pulake hariho icyapa cyanditseho Kigali Cars Market, bigaragaza ko iri ku isoko irimo iragurishwa.

Imodoka y'umukara ya hayiburidi izwi ku izina rya keya yo mu bwoko bwa toyota, iruhande rwayo hahagaze abagabo babiri bafite mu ntoki zabo icyapa kinini cyane gikoze nk'urufunguzo cyanditseho kimwe mu bigo bizwi hano mu rwanda ku birebana no kugura ndetse no kugurisha amamodoka cyitwa akagera motozi.

Imodoka ya pikapu yo mu bwoko bwa mahindura yitwa mahindurazi koropiyo iri mu ibara ry'ifeza imbere yayo hahagaze abagabo babiri bafite ifoto imeze nk'urufunguzo rw'imodoka yanditseho izina rya kampani izwi mu Rwanda mu birebana no kugura no kugurisha imodoka yitwa Akagera motors.

Imodoka eshatu zo mu bwoko bwa toyota zitwa esiyuvi zirahagaze ebyiri muri zo ni umweru, indi imwe ni umukara ari nayo iri hagati yazo zirahagaze aho zigurishirizwa.

Ubwoko bw'amafaranga bwagiye bukoreshwa hano mu Rwanda, hakaba hariho inoti ebyiri za magana atanu, imwe ikaba iriho ingagi eshatu indi note ya kabiri ikaba iriho abana batatu, babiri b'abahungu n'umukobwa umwe bari gusoma.

Icyapa kiri kwamamaza sisiteme y'ikigo cya banki ikorera hano mu Rwanda yitwa ayi andi emu, kikaba kiri kuvuga uburyo bwo kohereza amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga bwihuse.

Sisiteme yitwa payi pari ikoreshwa mu kwishyura ndetse no kohereza amafaranga mu bihugu bitandukanye, ukaba ushobora kuyinjiramo ukoresheje nimero ya terefone yawe cyangwa se imeri ndetse n'ijambo ry'ibanga.

icyemezo cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyemeza ko umukiliya wabo ntamwenda abafitiye, kikaba kinagaragaza itariki bikoreweho ndetse n'igihe iki cyemezo kizarangirira.

Inyemezabwishyu y'ikigo cy'imisoro n'amahoro, igaragaza ko umukiliya witwa Ruziga Jackson yishyuye imisoro ndetse n'amatariki yishyuriyeho iyo misoro.

Abagabo n'abagore bahagaze hamwe harimo abagabo cumi n'umwe abagore babiri bambaye imyenda itandukanye bambaye iniforume za gisirikare abambaye ikositimu n'abambaye imyenda y'ubushinjacyaha .

Umuntu ushobora kuba ari umuhinde afashe mu biganza bye byombi amafaranga menshi cyane akoreshwa mu buhinde ashushanyijeho umugabo uzwi cyane mu buhinde witwa Ghandi.

Iduka rikora akazi ko kugurisha no kuvunjisha amafaranga umunyamahanga waje kuvunjisha amafaranga yo mubwoko bw'amadorari.

Amafaranga y'amatanzaniya, harimo ibiceri bakoresha muri icyo gihugu, inote y'ibihumbi icumi, iy'ibihumbi bitanu, y'ibihumbi bibiri ndetse n'inoti y' igihumbi, akaba ari mu mabara atandukanye,

Umuntu wirabura ufite mu biganza bye byombi amafaranga y'ubwoko butandukanye higanjemo amafaranga akoreshwa mu bihugu byateye imbere, azwi ku izina ry'amadorari, ndetse hakaba harimo amagande ndetse n'akoreshwa mu gihugu cy'ubuhinde.

Iduka rikora akazi ko kugurisha no kuvunjisha amafaranga, hakaba hari umunyamahanga waje kwaka imwe muri izo serivice, ibumoso bwe hari icyapa kigaragaza ubwoko bw'amafaranga n'uburyo agura ndetse n'uburyo agurishwa, iburyo bwe hari ibyuma bizwi ku izina etiyemu, umuntu akoresha ikarita kugirango abikuze.

Ibiro bikora akazi ko kugurisha no kuvunjisha amafaranga harimo televiyo harimo icyapa kigaragaza uko amafaranga avunjishwa ava mu madorari ajya mu bundi bwoko bw'amafaranga bitewe n'igihugu umuntu arimo hirya yaho hicaye abantu abazungu.

Ahantu bakora akazi ko kugurisha ndetse no kuvungira amafaranga, hakaba hari icyapa kigaragaza ubwoko bw'amafaranga, ndetse n'uko avunjwa.

Ahantu hagurishirizwa ibikoresho bitandukanye byo mu nzu hakubiyemo ibitanda, intebe, ameza utubati ndetse n'ibindi bitandukanye tukaba turi kubona intebe zo mu ruganiriro ndetse n'ameza yazo akoze mu giti afite ikirahure hejuru

Ahantu hakorerwa ibikoresho byo mu nzu, birimo intebe, ameza, ibitanda, utubati ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko tukaba turi kubona ameza yo kuriraho ndetse n'intebe zigendana nayo.

Imitako yo mu nzu ikoze mu mbaho, ifashe ku gikuta k'inzu, ikaba igiye icomekeranye uko ari itatu, uwo hagati muri yo akaba ari umweru, tubiri two ku ruhande tukaba turi mu ibara ry'urubaho.

Uyu ni umuhanda ugezweho wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye ndetse n'abamotari, uyu muhanda ukaba uriho ibiti biyobora abantu bizwi nka feruje ndetse n'aho abanyamaguru bambukira hagati mu muhanda.

Ibiro bitari binini cyane, birimo imeza imwe ndende n'intebe yayo y'umukara, ku ruhande rw'inyuma hakaba harimo indi meza imwe itari ndende ndetse n'izindi ntebe ebyiri zo kwakiriramo abashyitsi.

Igipapuro gisabirwaho inguzanyo muri imwe muri banki za hano mu Rwanda yitwa ayendemu banki, kigaragaza bimwe mu bintu ugomba kuba wujuje kugira ngo ubashe kuba wahabwa inguzanyo.

Amabwiriza yo muri banki ikorera hano mu Rwanda yitwa akisesi bank arebana n'inguzanyo. Ibyo umukiriya wabo agomba kuba yujuje kugira ngo abashe guhabwa inguzanyo.

Icyapa cya banki ya hano mu rwanda izwi ku izina rya banki ya kigali kiriho impamvu abantu bagomba guhabwa inguzanyo muri iyo banki.

Icyapa cy'ikigo gitanga serivisi zigiye zitandukanye hakubiyemo n'izirebana n'iby'imisoro, kiri kwerekana aho icyo kigo kibarizwa, nimero zabo za telefoni ndetse n'indi myirondoro yabo.

Isoko rigurishirizwamo ibintu bitandukanye byo kurya, tukaba turi kubona ibiribwa bya kinyarwanda bizwi ku izina ry'amakoro ndetse harimo ibitoki, ibihiye ndetse n'ibidahiye ndetse ku ruhande harimo ibindi bitoki by'imineke bisa nk'aho byaboze.

Isoko rigurishirizwamo ibintu byinshi cyane bitandukanye cyane cyane ibirebana n'ibiribwa, inyanya, ibitunguru, amashu, karoti ndetse n'ibindi bintu byinshi, hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu baje kugurisha ndetse n'abandi baje guhaha.

Inoti z'amafaranga ya rimwe y'Amashinwa hariho isura y'umuntu n'amagambo yo mu gishinwa n'imibare isanzwe.

Akazu ko ku muhanda gakoreramo abantu batanga serivisi z'itumanaho rya emutiyene, nko gutanga ama inite, kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga, kari mu ibara ry'umuhondo ryanditseho amagambo yo kwamamaza serivisi ya emutiyene yitwa mokashi yo kwiguriza amafaranga ukoresheje mobayilo mani.

Iduka rigurisha ibintu bitandukanye rikoresheje ikoranabuhanga ukaba bishobora kugura kimwe mu bicuruzwa byabo bakabikugezaho iwawe mu rugo, hari moto iriho umugabo uzanye kimwe mu bicuruzwa byabo akabagiheye umuguzi.

Inyubako nini cyane igeretse inshuro zigera kuri enye, ikaba ifite imiryango myinshi itandukanye, umuryango umwe ukaba ukodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu, akaba ari ibihumbi magana arindwi mirongo irindwi na kimwe n'amafaranga magana atanu mirongo itandatu n'umunani y'amanyarwanda.

Inzu nziza isize irangi ry'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, ifite n'amakaro hasi y'umukara, itageretse, ikaba ibarizwa hano mu Rwanda, ikaba igurishwa miliyoni zigera mu ijana mirongo itatu.

Ikigo gikora akazi ko kuranga, kugurisha ndetse no gukodesha inzu, umwe mu bakozi bacyo akaba yajyanye umukiriya wabo ku nzu, akaba ari kumwereka mu kikoni k'iyo nzu.

Inyubako iri kugurishwa hano muri Kigali ahazwi nka Kibagabaga. Ikaba ifite ibyumba byiza kandi binini, bifite ibintu byose. Ikaba iri kugurishwa amadorari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu.

Umuntu ukora akazi ko kuranga mu kugurisha amazu, akaba ari kwamamaza imwe mu nzu zibarizwa hano mu Rwanda, ikaba ari inzu nziza cyane isize amarangi ajya gusa icyatsi n'iroze, ndetse hasi mu mbuga yayo ngari hakaba harimo amapave.

Inzu nziza ifite irangi ry'umweru ndetse n'amakaro yijimye iboneka mu Rwanda ikaba ikodeshwa ku madolari magana atatu wayashyira mu mananyarwanda akaba ari amafaranga ibihumbi magana ane makumyabiri na bitanu n'amafaranga magana inani n'abiri y'amanyarwanda.

Iduka rigurishirizwamo ibintu byinshi bitandukanye rizwi ku izina rya tedemiri, rikaba ari iduka ry'abashinwa, turi kubona aho bakirira abakiriya bagiye kwishyura ibyo baguze.

Iduka ryiganjemo ibyo kurya ndetse n'ibikoresho by'isuku byo mu nzu, rizwi ku iduka ry'abasirikare, hakaba hari umuhungu ndetse n'umukobwa bari mu mpuzankano z'abapolisi ndetse n'abasirikare, bicaye imbere ya mudasobwa bari gushyira muri mudasobwa ibintu abaguzi batwaye.

Iduka rigurishirizwamo ibyo kunywa ndetse n'ibyokurya bitandukanye umugabo uri mu gice kibarizwamo ibyo kunywa hakaba higanjemo inzoga nyinshi zitandukanye ziri mu macupa maremare zikunze kwitwa amadivayi cyangwa se rikeri

Iduka rigurisha ibintu byinshi bitandukanye, hakubiyemo ibyorya byo kunywa ndetse n'ibikoresho by'isuku n'ibyo mu nzu, hakaba hari umuntu waje guhaha bimwe muri ibyo bintu bigurishirizwamo, akabari ku gice kigurishirizwamo ibikoresho bikoreshwa mu gikoni, hakubiyemo amavuta, ndetse n'ibirungo bitandukanye.

Ubwisungane mu kwivuza bukoreshwana mu Rwanda buzwi cyane cyane ku izina rya mituweli, bukaba ari ubw'umwana ukiri mutoya ugaragaza igihe yemerewe gutangira kwivuriza ndetse n' igihe buzaba bwarangiye gukoreshwa, ku buryo bakongera bakishyura ubundi.

Ubwisungane mu kwivuza, buzwi ku izina rya mituweli, bukoreshwa hano mu Rwanda, bukaba ari ubwisungane bw'umwana ukiri mutoya, bugaragaza igihe yemerewe gutangira kwivuza.

Icyapa cyanditseho ejo heza, kigamije gushishikariza abantu gukora ubwizigame bw' igihe kirekire, igihe bagifite imbaraga zo gukora.

Ikigo cy'ubwizigame kizwi cyane cyane ku izina rya rama cyangwa se arasesibi kibarizwa hano mu Rwanda, harimo abantu benshi batandukanye baje kwaka zimwe muri serivisi zitangirwamo ndetse n'abakozi bafite mudasobwa imbere yabo, bari kubahereza serivisi.

Iduka ryitwa simba gishushu rigurisha ibintu byinshi bitandukanye hakubiyemo ibyorya n'ibikoresho byo mun nzu hanze yaryo hateretse intebe ndetse n'meza abantu bicaraho iyo bahasohokeye baje kurya cyangwa se kunywa.